Inyubako z'ikigo cy'amashuri gifite imbuga ngari, irimo abana b'abanyeshuri benshi batandukanye, barimo abakobwa n'abahungu. Bambaye impuzankano z'ishuri.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri ifite imbuga ngari, irimo ubusitani bwicayemo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri zifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, bari guhabwa ikiganiro n'abayobozi babo.

Icyumba k'isomero kirimo utubati twinshi dukozwe mu mbaho. Duteretsemo ibitabo by'amoko atandukanye ndetse n'amafoto agiye amanitseho.